Isafuriya iteretse kuri gaze ikaba isa neza nta mbyiro ziriho kuko gaze ntabwo iteraga imbyiro, ibi bikaba birengeraga ibidukikije.

Ubwato bwiza cane bakaba bari gusimbuka bakoga, bukaba butwawe n'abapolisi kandi ikirere kikaba gisa neza cane ababa bari kugenzura.

Umusirikare ufashe mikoro akaba afite amapeti menshi, afashe impapuro akaba ari gutanga imbyirwaruhame, kandi uyu musirikare yambaye ingofero, afite n'amapeti arakomeye cane.

Imodoka yitwa kizimyamwoto, bakaba bari kuzimya umuriro. Ahantu hahiye hakongotse. Hakaba hari imbangukiragutabara ziri kuzimya uyu muriro.

Umuyobozi afashe mikoro, akaba ari kugeza ku inama ku baturage, yambaye karuvati yambaye na kositimu iriho idarapo ry'Igihugu.

Abapolisi ndetse na ribu n'abasirikare ndetse n'abandi bayobozi, aha hakaba harimo abazungu babiri nabo bambaye iniforume.

Abantu bapanze imodoka, imodoka iri kugendera mu ishyamba, ikaba iriho ibintu hejuru, iyi modoka ikaba ari nziza cyane kuko itwaraga ibintu byinshi.

Abaturage bicaye muri sale bari mu nama, abo biganjemo daso n'abandi bayobozi, bari muri sale imeze neza cane, aho bitabiriye inama y'ingirakamaro kuri bo ndetse no ku b'igihugu muri rusange.

Umumotari uhetse umugenzi, bakaba bari muri zeburakorosi. Hari n'umukobwa uhetse agakapu wambaye ijipo y'umukara, ufite n'imisatsi nawe uri kwambuka muri zebura.

Umupolisi ufashe mikoro wambaye n'imyenda, akaba ari kwigisha abaturage uburyo bakwicungira umutekano buri wese akaba ijisho rya mugenzi we. Bari mu kibuga baricaye abandi barahagaze, inyuma hari ishuri.

Abagabo bari kuri kompiyuta ndetse n'undi uhagaze. Bari mu nama, bari kwigiramo ibintu byinshi. Barasa neza, bambaye amakaruvati, bambaye n'amashati.

Umugore ufashe mikoro yambaye amarinete, ateye n'umusatsi mukeya, arimo ari kuvuga ijambo mu nteko y'abandi bayobozi bagenzi be, kandi bamuteze amatwi.

Abagore n' abagabo bari kuvugira muri mikoro. Umugore ufite mikoro yambaye amadorubindi, kandi hari amacupa y'amazi ku meza, hari n' ingofero ya gisirikare iri kuri ago meza.

Abagabo bafite ibiseke bakaba bari gusogongera inzoga bigaragara yuko bari mu bukwe aho baje gusaba umugeni bakaba babazaniye inzoga yo kubatura.

Ababyinnyi bari kubyina bafite imisatsi miremire bari kubyinira ahantu hari umucucu mwinshi kandi inyuma yabo hari amazu y'ibyatsi n'uruzitiro rw'ibyatsi.

Inanga bakoreshaga bari gucuranga ya gakondo, inanga ikaba ifite imirya. Inanga ikaba iryoheraga amatwi k'umuntu uri kuyumva kandi abenshi bakaba bayikundaga.

Inanga zo gucuranga. Kikaba ari igikoresho cakoreshwaga kera hatari haza ibi byuma bigezweho by'iki gihe. Na n'ubu baracabikoresha mu muco wa gakondo.

Inka z'inyarwanda ziri gushoka mu kibumbiro, zikaba zifite amahembe maremare, zikaba ziri gushoka amazi, zikaba zishonje.

Ikigega ba bahunikamo ibishimbo. Kikaba kiri ku tubure, kikaba kiri mu nzu irimo amakaro nk'umutako werekana uko kera bahunikaga imyaka.

Intebe ya kinyarwanda ikaba iri ku makaro ikaba imeze neza kandi kuyicaraho bikaba bimeraga neza iyi ntebe iraramaga kuko iba ikwikiye mu giti.

Inkono abandi se bakayita ikibindi，bayikoresha mu kuteka，ndetse no kureka amazi， aba mbere bo hambere bakaba barayikoreshaga cane， amasafuriya atarazwi.

Umugore uri kugosora ibishimbo. Akaba yambaye akantu gatoya, bakaba bari no gucana inkono cyangwa se isafuriya iri ku mashiga.

Umugore aricaye ari kuboha ikirago, akaba yicaye ku kindi kirago yarangije kuboha kera, hari ibase ku ruhande irimo amazi yo kubobeza ubwatsi ndetse n'igifuka co kubohesha.

Inkongoro ipfundikije agasero ikaba iteretse ahantu hari irangi ry'umuhondo, bakaba barabikagamo amata kandi yabikwaga neza.

Umuntu ufite inanga ya kinyarwanda, arimo ari gucuranga, inyuma ye hariho ibyatsi ndetse n'igipangu c'amabuye, akaba yambaye n'agapfukamunywa.

Uducuma tubiri, utu ducuma bakaba baratunyweragamo urwagwa. Uducuma abantu benshi b'abasaza baradukundaga nitwo bakundaga kunyweramo urwagwa ndetse n'ikigage.

Inkoko iriho ibyuho bitatu, iyi nkoko ikaba iri ku kirago, kimwe kiriho kawunga, ikindi kiriho imyumbati, ikindi kikabaho ibishimbo, bikaba ari indyo ya kinyarwanda ijyoshe.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo yambaye imisatsi. Akaba akenyeye n'agatambaro k'idarapo ry'igihugu. Bakaba bari kubyinira ahantu hasi ku itaka.

Imyenda y'ubudodo n'ingofero, abagore bari kuyireba. Iyi myenda ikaba isa neza cane, ikaba ikomeraga kandi ikaba idapfaga gucika.

Inanga yo gucuranga ikaba ari iya kera kandi bigaragara yuko bayifashe kera. Iyi bikaba bigaragaza umuco wa kinyarwanda.

Umusaza urimo gucuranga inanga ya kera. Inyuma ye hari abandi bantu bicaye mu byatsi. Izi nanga zikaba zikundwaga cane muri iki gihe mu muco nyarwanda.

Ababyinnyi bari kubyina bambaye imisatsi, hari na mugenzi we uri gucuranga ku ruhande. Hari n'undi ufite mikoro uri kuririmba ndetse ari no gukoma amashyi.

Umwuko bakoreshaga bari gushigishasha igikoma, cyangwa se bari gukora imboga, cyangwa se bari kuvuga umutsima. Ukaba urambitse ku meza y'umutuku.

Ibibumbano biri kubyina bibiri by'ibigore n'ikindi gihagaze kiri kuvuza ingoma c'ikigabo bikaba bisa neza kandi bikaba bigaragaza ahantu neza.

Ababyinnyi barimo kubyina ingoma zikaba ziri inyuma, bakaba bakenyeye bakaba bambaye n'amayogi mu maguru, bakaba bambaye n'ibisatsi. Ibi bikaba byerekana aho u Rwanda rwa mbere uko byari bimeze.

Urutsinga rw'amashanyarazi, rukaba ruzinze ku zindi nyinshi. Rukaba ruri kurabagirana, rukaba rutwara amashanyarazi ruyavana hamwe rukayajana ahandi.

Kompiyuta ifite akantu bandikiragaho, ndetse hari n'imigozi igiye icomekwa kuri iyo kompiyuta. Hari n'impapuro ziri aho.

Fizibure agakoresho k'amashanyarazi gateretse ku meza aka gakoresho kakaba kari mu ibara ry'umweru kakaba gafite ubupfumure bwinshi bukariho aho insinga zinyura.

Aho umuriro uhurira insinga zikabasha gutanga umuriro mu bice bitandukanye bigize inzu kugira ngo hose habashe kuboneka umuriro kandi abe ari umuriro ungana.

Umugozi w' amashanyarazi ucometse ukaba udufasha kujana amashanyarazi ahantu hatandukanye, rero umugozi ufashe kuri iki kintu bikaba bigaraga rero ko urikujanamo amasanyarazi.

Inzu yubakishije ruriba ikaba ari nini cane. Iyi nzu ikaba ari igikorwa remezo ca leta, ifite agasanduku k'uruhande rw'umutuku gasa neza cane.

Ikigo c'amashuri kikaba gifite geti gifite n'ubusitani bumeze neza, ndetse n'ikirere cyaho kikaba kiboneye, hari ibiti ndetse hari n'ibindi bintu byiza nk'amashamba n'ibindi.

Inzu izitije senyenge ikaba imeze neza cane, ikaba ifite ibiti ku ruhande bituma aha hantu habona akayaga, ibi bikaba ari ibikorwa remezo bya Leta ku bufatanye n'abaturage.

Ikigo cy'amashuri, aho hari amashuri yubakishije amategura, andi mashuri akaba asa n'aho ashaje. Hakaba harimo ubwatsi ndetse n'ibiti.

Karoti zireraga cane ino iwacu mu majaruguru， zikaba ziteye mu murima，uri hafi y'umudugudu w'amazu yubakishije ruriba，kandi amazu aboneye cane.

Urusengero runini cane rukaba ruri mu mugi, impande zarwo hakaba hari kaburimbo iri gucamo akavatiri, kandi hari n'amatara muri iyo kaburimbo.

Amashuri agezweho ameze neza afite amabati y'ubururu afite amapave kuruhande aya mashuri akaba afite n'ahantu ho kugamira imvura kuburyo umunyeshuri atanyagirwa.

Ikirere gikeye cane ifite imisozi nazo ziteye cane amazu hano hari ahantu bahuriraga ingano ndetse bakazibikamo bigaragara yuko ari ikusanyirizo ry'ingano.

Isoko ryubatswe mu buryo bwa kijambere, rikaba bacururizamo ibintu byinshi. Muri iri soko hakaba harimo ihema. Impande y'iri isoko hakaba hari umucaca mwiza.

Inzu ya etaje inzu ikaba ifite iri tara rikaba rikoreshagaha imirasire y'izuba ikaba iyi nzu ifite jaride nziza cane ifite pasiparumu imeze neza inzu ikaba iteye amarangi meza.

Ikiraro ca senyenge bagendagaho kiri kwizunguza, imbere yaco hakaba hari ibipirizo bigaragara yuko iki kiraro ari gishasha, kizaja gihuza abaturage mu bice bitandukanye.

Inzu ya Etaje bigaragara yuko ari ishuri ikaba imeze neza cane bakaba batari bayuzuza, impande yayo hari imirima iteyemo amashu ndetse n'indi ihinze.

Inzu zubakishije ruriba zifite na jaride zimeze neza, n'inzu nyinshi zisa zikaba ziri mu mudugudu, bakaba bazubakira abatishoboye cyangwa se abo bimuye bari mu manegeka.

Ibikorwa remezo bitumaga Igihugu cyacu kirebeka neza mu ruhando mpuzamahanga. Ibikorwa remezo kandi bikaba bituma iterambere ryacu ry'Igihugu ritera imbere.

Umusigiti ufite utuzu tuzamuye tw'umusaraba tubiri, ndetse na esikariye zijya muri urwo rusengero. Hakaba hariho urugi rw'umutuku.

Akazu k'ubucuruzi kandiditsweho kasha. Hari n'umugore uri ku igare aho atwawe n'umugabo. Hari akandi kantu bashiramo imyanda kari aho ku muhanda.

Umugore ufashe mikoro bikaba bisa n'aho ari gutanga ikibazo ku buyobozi, bagenzi be bakaba bamuteze amatwi bumva igitekerezo cye ari gutanga.

Abaturage bateraniye ku kagari bavuga imihigo ya bo ndetse bagaragaza n'ibyo bazageraho. Abayobozi b'imidugudu bandika ibiri kuvugirwa ahongaho, kugira ngo bazabashe gushyira mu bikorwa, ibyo babashije kwemera ko bazakora.

Umugore afashe mikoro, yaremesheje abaturage inama aho bicaye muri sitade. Hari umuntu wambaye ingofero, bigaragara yuko ari umudaso uhari.

Abaturage barasobanurirwa uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera bubakwiriye, kugira ngo igihe bagize ikibazo babashe kujya mu buyobozi, ndetse babashe guhabwa ubutabera, ndetse n'igihe uburenganzira butubahirijwe bubashe kubahirizwa.

Umupolisi ndetse n'umuturage, n'abaturage umuturage umwe afashe mikoro. Hari imeza iri iruhande yabo ikaba iriho amazi, ndetse iyo meza ikaba irambitseho umwenda w'umweru. Hari imodoka impande zabo ndetse n'undi mugore uhagaze ufashe mikoro.

Indege zikaba ziriho abagabo bahagaze imbere yazo, bambaye udupfukamunwa, ndetse n'abandi bambaye utujire bari kuri izo ndege.

Umugore wafashe igare rishasha bakaba barimuhembwe. Umugabo amuhagaze inyuma aho uyu mugore yishimiye cane igihembo c'igare bamuhaye.

Muri gare hari imodoka ndetse hari n'urujya n'uruza rw'abantu benshi abanyeshuri bahetse ibikapu, n'abandi bantu bari kugenda abagabo, abagore, n'abana bari muri iyi gare.

Utugare twa rifani turaparitse tukaba tukiri dushasha. Aha akaba ariho baducururiza abantu. Akaba ariho baza baza kudushakira kugira ngo baje gukora imirimo yabo.

Gare ya Rubavu iri kwinjiramo imodoka, hari abagenzi bari ku ruhande ndetse na moto n'amagare biri kuyica ku ruhande, bigaragara yuko bisa neza kandi birimo urujya n'uruza.

Mu muhanda urimo moto ziri kugenda ndetse n'imodoka, hari icapa canditsweho umuvuduko wa mirongo itandatu, ndetse n'ibyatsi biri inyuma, kandi uyu muhanda ukaba umeze neza.

Imodoka ziri mu muhanda zahuye na mbutiyaje. Imodoka n' imoto ziri kuzigendamo hagati，bigaragara yuko ibinyabiziga byabaye byinshi biri kubyigana.

Hoho ni imodoka nini cyane izi ni iza Horizoni, zidufashaga mu kubaka imihanda igakomera ndetse zikanorohereza abantu.

Imodoka ndende ikaba yanditsweho Vuziti Rwanda, ifite ibara ry'umukara, ikaba iparitse ku mapafe, ikaba ari nziza cane kandi ikaba igaragaza iterambere ry'igihugu.

Imodoka iri muri gare hakaba hari abantu benshi baje gushakisha imodoka, zikaba iyi gare ari iy'ibitaka bigaragara y'uko bata yubaka neza ibikomere.

Igishushanyo kiri mu muhanda. Igishushanyo kikaba kiri kuri kaburimbo abantu bari guca muri iyo kaburimbo ndetse n'amagare na moto. Kaburimbo ikaba isa neza cane.

Abakinnyi barishimye cane iyi ikaba ari reyonsiporo kuko niyo yambaraga iyi niforome, iri mu kirere giceye cane kandi barishimye cane kuko batsinze.

kwiruka ni byiza cane. Aba basore bari mu marushanwa yo kwiruka aho bari muri sitade, kandi imipira bafite ikaba iriho nimero zibaranga.

Abanyonzi bari ku magare uwa mbere akaba yamanitse amaboko, n'abandi bakaba bari kwirukanka abafana bakaba bari ku ruhande kandi ku ruhande rwabo hakaba hari ibyapa.

Siporoni ni nziza ku mubiri w'umuntu, mu Rwanda siporo ikaba imaze gutera imbere kuburyo buri muturarwanda wese azi akamaro ka siporo.

Abakinnyi bari ku kibuga kimeze neza cane. Bambaye jezi zisa, ndetse n'umwe wambaye ipantaro n'agapira k'icatsi. Barishimye cane.

Imodoka iri muri kurusi, umukobwa akaba ari kuyihagarika. Umukobwa yambaye akajire kanditsweho marishari. Iri rushanwa rikaba riri kubera mu muhanda w'igitaka.

Umukino wa basiketibolo ukaba uri gukinwa n'abasore, abasore bakaba basimbutse kugira ngo babashe gushiraramo umupira neza, bambaye amajezi y'umweru n'icatsi.

Inzu zo guturamo zimeze neza zifite ubusitani bumeze neza, umukobwa akaba ari kugenda ku kayira kari muri karitsiye aho mu muhanda w'igitaka.